Ndi kubona inzu yo muri hoteri nziza. Imbere yayo, haparitse imodoka nziza.

Aya ni amazu y'ubucuruzi ari hafi y'umuhanda bacururizamo ibintu bitandukanye harimo amata n'amazi n'ibindi byinshi cyane.

Ndikubona inzu bacururizamo ibikoresho bitandukanye, bakoreramo na serivisi z'irembo.

Ndi kubona butike zitandukanye ziri hafi y'umuhanda zicururizwamo ibintu bitandukanye, ndi kubona hamwe ku muryango hari amagaze n'utundi tuntu dutandukanye.

Amazu y' ubucuruzi, imbere yayo hariho amagaze, hariho n'abantu bicaye imbere y'ayo mazu ari hafi y'umuhanda.